Ikigo nderabuzima kibakishijwe amatafari, kiriho amadirishya mu ibaburara ry'umweru, iruhande rwacyo hari umugabo warwaye, wambaye ipantaro ndetse n'umupira, inyuma ye hari abantu batandukanye ndetse n'ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abarwayi.

Icyumba kinini gikorerwamo inama, kirimo urumuri ndetse kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abagore bambaye amajere arimo ibara ry'umutuku. Harimo umugore wicaye ufite ibisuko by'umukara, imbere ye hari imeza iriho igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu ndetse kirambitseho amacupa y'amazi.

Inzu nini yubakishijwe amatafarihiye hasi, irimo intebe nyinshi zirimo ibara ry'umutuku, zimwe muri zo zicaweho n'abantu bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, imbere yaho hari umusore wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umutuku uriho ikimenyetso cy'umusaraba.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gifite idirishya rifite ikirahure kinini ndetse gisizwe irangi ry'umweru, kirimo umuganga wambaye impuzankano, iri mu ibara ry'ubururu bwijimye ndetse kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo abantu batandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura, kirimo umuganga w'umugabo wambaye itabuririya iri mu ibara ry'umweru, iruhande rwe hari igitanda cy'abarwayi kiri mu ibara ry'ubururu kiryamyeho musore wambaye ijire iri mu ibara ry'umutuku.

Ikibuga kigizwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti birebire kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore bafite amahene, inyuma yabo hari abagabo babiri bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku.

Imbuga nini igizwe n'utugaraviye duto irimo ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abarwayi, iri' ibara ry'umweru ndetse byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hirya yabyo hari igipangu cyubakishijwe boroke sima, ndetse n'igiti gifite amashami maremare.

Inzu y'ibitaro isakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku ndetse ifite amadirishya menshi, imbere yayo hari imodoka itwara abarwayi iri mu ibara ry'umweru yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza ko ari imodoka itwara abarwayi ku kigo nderabuzima cya Mugonero.

Imodoka y'ibitaro bya Nyagatare iri mu ibara ry'umweru ndetse ifite ibirahuri biri mu ibara ry'umukara. Hirya yayo hari abagabo babiri bambaye udupfukamunwa, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ahantu hatangirwa serivise z'ubuvuzi hari umuganga w'umugore ufite ibisuko by'umukara ndetse wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umweru, inyuma ye hari abarwayi batandukanye higanjemo abagore ndetse hari umukobwa wambaye ikote ry'umukara.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku miti kirimo abaganga babiri b'umugore ndetse n'umugabo, bambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru imbere yabo hari amakaro ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umugezi.

Umuhanda munini w'umukara iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru kubakikijwe amapave, urimo imbaga nyamwinshi y'abantu bateranye, imbere yabo hari abapolisi babiri bambaye impuzankano igizwe n'ibara ry'umukara ndetse bafite imbunda.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvuza ndetse kirimo umuganga wambaye impuzankano y'ababaganga, ari gushyira umuti muri serumu. Mu gihe turwaye ni ngombwa kujya ku bitaro kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abantu batandukanye higanjemo abaganga, harimo umugabo wambaye itabubura y'umweru, uri kureba mu gitabo, imbere ye hari umurwayi wicaye ku gitanda wambaye ishati.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umweru, cyicayemo imbaga y'abantu nyamwinshi batandukanye, higanjemo abaganga bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru. Kirimo umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, wicaye mu ntebe iri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye ishati y'umweru, imbere ye hari imeza iteretseho mudasobwa.

Ikigo nderabuzima gifite amazi yubakishijwe amatafari ahiye, iruhande rwacyo haparitse imodoka ndetse hari akayira gasakajwe amabati kariho umwana wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umutuku, ndetse nagapira.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisize irangi ry'umuhondo ndetse gifite idirishya rifite ibirahure, kirimo ibikoresho bitandukanye harimo igitanda cy'abarwayi gifite matera iri mu ibara ry'umukara, imbere yacyo hari umugabo wambaye impuzankano y'abaganga wicaye, imbere ye hari imeza irambitseho imyenda myinshi.

Bitangegirwamo serivisi z'ubuvuzi, kiririmo Urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo. Kirimo umuganga w'umugabo wambaye marinete, impozankano yabaganga igizwe n'iteburiya irimwo ibara ry'umweru wicaye ku ntebe iririmo ibara ry'umukara, afite ikaramu ndetse n'urupapuro mu ntoki, imbere ye hari imeza ikozwe mu mbaho ndetse ku ruhande rwe hari umurwayi w'umugore uteze igitambaro mu mutwe wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho.

Imbuga nini yubakishijwe amapave irimo abantu batandukanye higanjemo abagabo n'abagore, hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari ikinyabiziga gitwara abarwayi kiri mu ibara ry'umweru ndetse inyuma hari ibiti byinshi bifite amashami maremare.

Inzu nini isizwe irangi ry'ubururu, imbere yayo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze higanjemo abagabo, hari umugore wambaye ikanzu y'igitenge, iruhande rwe hari umugabo muremure wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ijire iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abaganga babiri, umwe muri bo aricara kwandika ndetse yambaye impuzankano yaabaganga igizwe n'itebura y'umweru undi arahagaze yambayetabuririya iririmo ibara ry'ubururu. Inyuma yabo habitse imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura harimo kandi umuganga w'umugabo wambaye itaburiya irimo ibara ry'umweru, ari gusuzuma umurwayi uryamye ku gitanda kiriho amashuka arimo ibara ry'umweru.

ikigo nderabuzima kigizwe n'inyubako zitandukanye zubabakishijwe amatafarihiye ndetse zisizwe irangi ry'umuhondo kandi zisakajwe amabati arimo ibara ry'ubururu, imbere yazo hari abantu batandukanye bicaye ndetse n'umugore uri kugenda wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku. Inyuma ye hari ikigega cyifashishwa mu kubika amazi kiririmo ibara ry'umukara

Icyumba gitangirwamo serivisi zubuvuzi gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho, ari kwandikira ku meza iriho impapuro zitandukanye imbere ye hicaye umurwayi ukenyeye igitenge.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Gisizwe irangi ry'umuhondo. Kirimo akabati gakozwe mu mbaho ndetse na muganga wicaye mu ntebe y'umukara, wambaye ikaba y'umweru. Imbere ye hari imeza iriho igitambaro cy'umweru ndetse na mudasobwa iri mu ibara ry'umukara. Imbere ye na none hicaye umurwayi wambaye igitambaro cy'ubururu ndetse wicaye ku ntebe y'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo umuganga w'umugore, ufite imisatsi yumukara, wambaye impuzankano iririmo ibara ry'umweru, ari gukoresha mudasobwa, iteretse ku meza, iriho igitambaro ndetse iruhande rwe hari impapuro zitandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse kirimo umuganga wambaye impuzankano y'ababaganga igizwe n'itaburiya y'umweru, ndetse yambaye ga zirimo ibara ry'ubururu mu ntoki ari gusuzuma ikiganza cy'umurwayi.

Icyumba cyubakishijwe amatafarihiye, gikoremo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, kirimo abaganga bambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'amataburiya y'umweru, umwe muri bo yambaye marinete ndetse ari gupima akoresheje microsikopi.

Icyumba kirimo urumuri gikorerwamo ubushakashatsi ku bingendanye n'indwara, kirimo abaganga bambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'amataba y'umweru ndetse na ga ziri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari idirishya rinini ririmo ibirahuri.

Icyumba kigirwamo ubuvuzi kiromo abaganga higanjemo abagabo, bambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itariya irimu ibara ry'umweru, umwe muri bo yambaye ga z'umuhondo, agapfukamunwa ndetse imbere ye hari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba gipimirwamo indwara kiririmo urumuri ndetse kirimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru, bari gukoresha mikorosikopi igizwe n'amabara y'umukara ndetse n'umweru iteretse ku meza isa n'umweru.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse kirimo abantu babiri b'abagabo, umwe yambaye agapira k'umweru, iruhande rwe hari umuhungu uri gukoresha mudasobwa, wambaye ikote, ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Intoki z'umuganga zambaye ga ziri mu ibara ry'umweru, zifite akuma kifashishwa mu gupima ubwandu bwa sida ndetse imbere yazo hari impapuro nyinshi zitandukanye zanditsweho amagambo arimo ibara ry'umukara. Ni byiza kwipimisha sida kuko bituma tumenya uko ubuzima bwacu buhagaze.

Icyumba gitangirwamo serivisi zubuvuzi gisize irangi ry'umuhondo. Kirimo umuganga w'umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itabura ry'umweru. Imbere ye hari imeza nini ateretseho ibikoresho bitandukanye higanjemo ibyifashishwa mu gutanga serivisi ku bitaro. Imbere hari idirishya, inyuma yaryo hari abarwayi batandukanye biganjemo abagore.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku miti itandukanye, kirimo itsinda ry'abaganga, higanjemo abakobwa, ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo, harimo umuganga w'umukobwa, wambaye impuzankano igizwe n'iteburiya irimo ibara ry'umweru, ndetse yambaye Ga mu ntoki, iruhande rwe hari umukobwa wo gusuzuma imiti akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya y'umweru, aricaye ndetse yambaye ga z'umweru ari kwandika, imbere ye hari imeza iriho imiti ndetse n'ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, iruhande rwe gato hari abagabo bicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, gisizwe irangi ry'umuhondo. Kirimo urumuri ndetse kirimo abaganga babiri. Harimo umuganga wambaye amarinete, itaburiya iri mu ibara ry'umweru, ari gupima indwara akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry',umweru kirimo umubyeyi wambaye ishati irimo ibara ry'ubururu uteruye umwana, yicaye ku gitanda gifite amashuka ari mu ibara ry'ubururu.

Ahantu hateraniye abantu batandukanye, higanjemo abaganga, bambaye imyenda igizwe n'ibara ry'umweru, harimo umuganga ufite umusatsi w'umukara, wambaye amahererena ku matwi, ari gutera urushinge umwana uteruwe n'umugore, wambaye agapira kagizwe n'amabara y'umukara, ubururu ndetse n'umweru, ndetse yiteze igitambaro mu mutwe.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo igitanda cy'abarwayi kiriho matela iri mu ibara ry'umukara, kiryamyeho umumama uteruye uruhinja rwambaye ingofero y'umutuku, iruhande rw'aho hari igitambaro kirimo ibara ry'ubururu.

Ahantu hari h'ibyatsi, hari abantu benshi bunamye higanjemo abagabo, hari umugore wambaye umupira w'ubururu wunamye ndetse akenyeye igitenge, akoze ku mwana uryamye ku gakoresho gakozwe mu mbaho ndetse imbere ye hari umugabo wunamye wambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umuhondo kirimo igikoresho cya kizimyamwoto kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ndetse kicayemo abagore batandukanye, inyuma yabo hahagaze abaganga b'abagore bambaye impuzankano igizwe n'amataburiya ari mu ibara ry'umweru.

Ikigo nderabuzima gisizwe irangi ndetse gifite inkingi zitandukanye, imbere yazo hari umugabo wambaye iteburiya iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari umugore utereruye umwana, witeze igitambaro cy'umweru ndetse yambaye ikanzu igizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'ubururu.

Ikibuga kigizwe n'ibyatsi kirimo abantu batandukanye bahagaze. Higanjemo abambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi. Inyuma yabo hari amatente yubatse neza ari mu ibara ry'umweru. Muri bo harimo umugore wambaye ipantaro y'ikoboyi ufite imisatsi y'umukara ndetse yambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi. Wanditsweho amagambo, ari mu ibara ry'umweru.

Ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi hari umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'ubururu ari gusuzuma umwana wicaye kumeza imbere ye hari abagore babiri bambaye ibitambaro by'umweru mu mutwe, umwe muri bo yambaye ishati y'igitenge.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yicayemo abantu batandukanye. Isize irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya arimo ibara ry'ubururu. Harimo umugore uri guseka, wambaye ishati y'ubururu, uteruye umwana, wambaye agakabutura k'umukara ndetse n'agapira karimo ibara ry'ubururu ndetse yambaye ingofero.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kiririmo urumuri ndetse gisize irangi ry'umweru, kirimo igitanda cy'abarwayi gifite amashuka ari mu ibara ry'ubururu ndetse kicaye nk'umugore wambaye ikanzu y'igitenge ateruye umwana wambaye akagofero karirimo ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, cyicayemo abana batandukanye bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, kirimo umwana wambaye ishati y'igitenge wicaye kandi yambaye ipantaro y'umukara imbere ye harika ameza gakozwe mu ibyuma ndetse n'imbaho kariho mudasobwa.

Icyumba kirimo urumuri kirimo abaganga batatu, abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye amarinete, ndetse n'impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru. Inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye.

Inzu nini iberamo ibikorwa by'imyidagaduro, irimo abanyeshuri batandukanye, higanjemo abambaye impuzankano, igizwe n'amapantaro ndetse n'amajipo by'umukara ndetse n'imipira iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo sima cyubakishijwe amatafari ahiye kirimo imifuka itondetse iri mu ibara ry'umweru ndetse n'abantu bicaye higanjemo abasore. Harimo umugore ukenyeye igitambaro wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu ndetse akenyeye igitenge.

Icyumba kinini kirimo urumuri, kirimo abanyeshuri benshi higanjemo abahungu bicaye bambaye impuzankano y'ishuri igizwe n'amapantaro ya kaki ndetse n'amashati arimo ibara ry'umweru, iruhande rwabo hahagaze umusore wambaye agapira kari mu ibara ry'icyatsi kijimye.

Umusore wambaye umupira w'umutuku ateruwe n'abantu batatu harimo umukobwa n'umuhungu bambaye amajire agaragaza ko bakora umurimo wo gutabara imbabare ndetse n'umugabo wambaye umupira w'ubururu, imbere yabo hari ibinyabiziga ndakumirwa bitandukanye.

Inzu nini ikorerwamo inama, irimo parafo ndetse n'amatara atandukanye kandi isizwe irangi ry'umweru, hiciwemo imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abagore, imbere yabo hari ameza maremare, ariho igitambaro kirimo ibara ry'umweru ndetse arambitseho mudasobwa.

Inzu nini ya Isange One Stop Center, yubakishijwe amatafari atewe irangi ry'umutuku ndetse ifite idirishya ririmo ikirahure, hirya yaryo hari igikoresho kiri mu ibara ry'umutuku, cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umuhanda munini w'umukara urimo abantu batandukanye higanjemo abafite utwapa duto, imbere yabo hari abagabo babiri bafite icyapa kinini gifite ubuso bw'umweru, cyanditsweho amagambo arimo ibara ry'umukara, agaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Icyumba kiririmo urumuri, gisizwe irangi ry'mweru, kirimo umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye marinete, ikoti, ishati y'umweru, imbere ye hari abanyamakuru batandukanye, bafite ibikoresho bitandukanye, harimo mikoro ndetse n'amatelefone.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi yubakishijwe amatafari ahiye, ifite umuryango umwe ucururizwamo ibikoresho bitandukanye, iruhande rw'aho hari umuryango wa farumasi icururizwamo imiti, hejuru gato hari amarangi atandukanye higanjemo umuhondo ndetse n'umweru ndetse hari n'ibyapa by'ubucuruzi bitandukanye.

Imiti myinshi igizwe n'ibinini bitandukanye higanjemo ibirimo amabara y'umweru, umutuku ndetse n'umuhondo. Kunywa ibinini ni ingenzi mu gihe urwaye kuko bigabanya uburibwe, ndetse bigakiza n'indwara zitandukanye.

Icyumba gicururizwamo imiti, kirimo urumuri ndetse kirimo igikoresho gikozwe mu mbaho, gisigazwe irangi ry'umweru ndetse kirimo imiti itandukanye, irimo udukarito tugizwe n'amabara atandukanye, yiganjemo umutuku, ubururu ndetse n'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru ndetse kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi. Kirimo kandi umuganga w'umugabo, wambaye amarinete, agapfukamunwa, impuzankano y'ababaganga iri mu itabira ry 'ubumweru ndetse afite ikaramu mu ntoki.

Inzu ishaje isizwe irangi ry'umweru irimo sima ndetse ifite inzugi zifite ibirahuri binini kandi yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara agaragaza ko hari ivuriro gakondo, ni byiza gufata imiti mu gihe turwaye kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari urumuri habitswe imiti iri muo uducupa duto dufite ubuso bw'umweru twanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umukara, gufata imiti ni ingenzi kuko bituma tugira ubuzima bwiza iyo turwaye.

Ahantu hari imiti myinshi igizwe n'ibinini bifunze mu dupaki dutandukanye biri mu mabara yiganjemo umuhondo, icyatsi ndetse n'umweru, ni ngombwa gufata imiti mu gihe turwaye kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Icyumba gicururizwamo imiti itandukanye, kirimo akabati gakozwe mu mbaho, karimo imiti itandukanye higanjemo irimo udukarito dufite amabara atandukanye, harimo umweru, icyatsi ndetse n'ubururu, harimo kandi uducupa duto dufite imifuniko, iri mu ibara ry'icyatsi.

Imbuga nini yubakishijwe amabuye, iruhande rwayo hari inzu nini ikorerwamo ubucuruzi, isizwe irangi ry'umuhondo, yanditsweho amagambo arimo ibara ry'umukara agaragaza ko haba farumasi icuruza imiti. Iruhande rwayo hari ibiti byinshi ndetse n'indabo zikase neza.

Icyumba kinini gikorerwamo inama kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo. Kirimo ibyapa bitandukanye higanjemo ibifite ubuso biri mu ibara ry'ubururu, imbere yabyo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bamwe baricaye abandi barahagaze.

Itsinda ry'bantu bahagaze higanjemo abana, imbere yabo hari abagabo babiri, umwe muri bo yambaye marinete, umupira w'umukara ndetse n'ipantaro, afashe mikoro mu ntoki, ku ruhande rwe hari umugabo ufite ibisuko by'umukara, wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru.

Ibikoresho byifashishwa mu gutera umuti biri mu mabara y'umweru, ndetse n'umukara iruhande rwabyo, hari abagabo bambaye kasike iri mu ibara ry'umweru, amashati arimo ibara ry'ubururu, ndetse na bote z'umukara hirya yabo hari abagabo bane umwe muri bo yambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda iri mu ibara ry'umukara.

Urusengero rurimo urumuri, rusizwe irangi ry'umweru, imbere hahagaze abanyeshuri, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, bane muri bo, bafashe icyapa gifite ubuso bw'umweru, cyanditseho amagambo, akoresheje ibara ry'umweru.

Inzu igeretse, igizwe n'ibyumba by'amashuri, yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amabati ari mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari igipangu ndetse n'umuhanda munini w'umukara urimo abantu benshi, babiri muri bo bafashe icyapa kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda kandi gifite ubuso bw'ubururu bwijimye.

Imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri bicaye higanjemo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari intebe nini ikozwe mu mbaho iriho umusore w'umunyeshuri wambaye ishati y'ubururu ndetse ufite icyapa mu ntoki, iruhande rwe hari umunyeshuri w'umukobwa.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateranye, higanjemo abambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi, hari umumama, ubyibushye wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'icyatsi, ari guha agakapu, umugabo wambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu.

Urubyiniro ruriho ibikoresho bya muzika bitandukanye ndetse n'ibyapa, imbere yarwo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bateranye higanjemo abahagaze ndetse n'abasutamye. Harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikoboyi.

Inzu ebyiri zitangirwamo serivise z'ubuvuzi zubakishijwe amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse zisizwe irangi ry'ubururu, ziriho icyapa kigizwe n'amagambo ari mu ibara ry'uburora ndetse n'ibishushanyo by'abantu biri mu ibara ry'umweru, imwe muri zo iriho abarwayi bategereje serivise z'ubuvuzi bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho.

Ahantu hacuruzwa imiti gakondo hari amacupa menshi ari imiti, hari umugore witeze igitambaro cy'umweru mu mutwe ndetse yambaye ikarita y'akazi mu ijosi, imbere ye hari umugabo wambaye ishati, umukandara ndetse n'ipantaro.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizezwe irangi ry'umweru, kiririmo urumuri ndetse kirimo amakara, kigizwe n'amadirishya menshi afite ibirahuri, kirimo kandi ibitanda biryamaho abarwayi bigizwe na matera ziri mu ibara ry'umukara ndetse hejuru yabyo hari supanete ziri mu ibara ry'umweru, kimwe muri byo kiriho umubyeyi ndetse iruhande rwe hari ibikapu byinshi biteretse ku buriri.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi, kirimo umuganga w'umugabo, wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho, wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru. Imbere ye hari imeza iriho mudasobwa ndetse ku ruhande rwe hari umugore uteruye mwana.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru cyanditsweho amagambo ari mu mabara atandukanye higanjemo ay'ubururu, umukara ndetse n'icyatsi agaragaza serivisi z'ubuvuzi zitangwa harimo: iz'amenyo ndetse n'izo gupima indwara.

Inzu ifite amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse isizwe irangi ry'ubururu, inyuma yayo hari ikigega kiri mu ibara ry'umukara, imbere yayo hari abagabo babiri bateruye umurasire w'izuba umwe muri bo yambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero, mugenzi we yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa, ga z'umweru mu ntoki ndetse n'ishati y'ubururu, ari gupima inda y'umubyeyi uryamye ku gitanda cy'abarwayi gifite amashuka ari mu ibara ry'ubururu.

Ikigo nderabuzima gisize irangi ry'ubururu, gifite amabati ari mu ibara ry'ubururu, kiriho abantu batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze, iruhande rwacyo hari amatente ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse kirimo umuganga ufite ibisuko by'umukara wambaye agapfukamunwa ndetse na ga z'umweru mu ntoki ari gutera urushinge umukecuru wambaye agapfukamunwa, witeze igitambaro mu mutwe.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ndetse kirimo urumuri kicayemo imbaga nyamwinshi y'abana higanjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo hari umuganga wambaye impuzankano igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye jire y'ubururu afashe igitabo mu ntoki, imbere ye hari intebe zikozwe mu mbaho zicaweho n'abarwayi batandukanye, hirya yabo hari umugabo w'umuganga wambaye ishati y'umweru ndetse na marinete, ikindi kandi yambaye isaha ku kuboko.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye byifashishwa mu kuvura, kicayemo abaganga batatu: umugabo umwe ndetse n'abagore babiri, umuganga umwe muri bo yambaye amarinete, agapfukamunwa ndetse na ga z'umweru mu ntoki.

Umuganga w'umwirabura w'umugore ufite ibisuko by'umukara wambaye amaeherena ku matwi yambaye ikarita y'akazi mu ijosi ndetse n'agapira karimo ibara ry'umutuku, ndetse yambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru, yambaye ga mu ntoki ziri mu ibara ry'umweru ndetse afite urushinge.